Umumotari uhetse umubyeyi kuri moto, hagati yabo bikoreye undi mufuka urimo imyaka ndetse n'imbere y'umumotari hateretse undi mufuka urimo ibyo kurya, bari kwambuka umuhanda imbere y'amaduka hari n'icyapa cy'abantu bacuruza ibikoresho byo mu nzu.

Inzu iteye uturangi tw'icyatsi, ubururu, umuhondo ndetse n'ubururujuru, imbere yaho hariho agatanda k'ibirayi n'umubyeyi wambaye bote n'amapataro y'ubururu.

Imyembe ihiye cyane isa n'umuhondo yererana cyane iri ku isahane, imaze kozwa. Itegerejwe kuribwa. Imyembe myiza cyane y'umuhondo itegereje kuribwa.